Ni umuyoboro w'amazi aho abantu bose baza bakaba bavoma bakabona amazi meza kandi atunganyije neza asukuye kandi akaba ari hafi y'abaturage.

Abana biga mu mashuri abanza bari kurya ibiryo byose bisa ndetse no mu gihe kimwe, barikubitaho kugira ngo bagire imikurire myiza kandi bakure neza.

Gorobo herifu keya agisesi ishyiraho uburyo abana ku mashuri bashobora kubona amazi yo kunywa, bagakaraba intoki mu buryo bwo kugira isuku ku bana.

Umuntu ufite ikibazo kijyanye n'imitekerereze yicaye afite ibintu byinshi bitandukanye akaba ari ahantu hari abandi bantu kuba yafashwa akajyanwa kwitabwaho.

Igishushanyo kigaragaza umuntu amenyo ye barayacishije mu cyuma kugira ngo bamenye neza ahantu hari ikibazo ku menyo ye.

Ahantu hari ibikoresho byinshi bitandukanye byo kwifashisha mu kuvura amenyo, aho umurwayi aba ari ndetse n'imashini imusuzuma nyinshi zitandukanye.

Ubuvuzi bwo mu kanwa bw'amenyo ubwo haza abantu b'abaganga b'abaspecialiste mu kuvura amenyo ukaba wagenda bakagusuzuma bakarivura cyangwa se bakarikura cyangwa se bakaba banarihuma bitewe n'ikibazo ufite uko kingana.

Ubuvuzi bw'amenyo ndetse imashini zifasha kuvura iryinyo; aho umuntu yicara ndetse naho umuvura yicara; n'ibikoresho ashobora kwifashisha mu kureba iryinyo.

Helifu polisi ifasha abagore mu buyobozi ku isi hose, imibereho myiza yabo no gusobanukirwa, inama yabahuje ari benshi, inzego nyinshi zitandukanye.

Ni amabwiriza y'uburyo bwo kwirinda kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, yo kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende, n'uburyo bwo kuyirinda ukaraba intoki ,wirinda kwegerana n'umuntu uyifite ndetse n'ibindi.

Inyubako y'ubuvuzi ivurirwamo indwara zitandukanye kandi hagatangirwamo serivisi nyinshi zitandukanye ku muntu wese ugana iki kigo cy'ubuvuzi, giherereye mu Rwanda.

Inzu y'ubuvuzi, y'ikigo nderabuzima cya Gishweru, hari umuganga, hari n'abandi baje kwaka serivise, hari uwicaye, ndetse n'abari kugenda, bafite n'ibipapuro, bisa baje kwaka serivise hano hantu.

Mediko buridingizi ifasha abantu bafite ubumuga bw'ingingo kuba yabavura bakaba bakira cyangwa se ikabaha ifashangingo.

Ibitaro ibitaro aho abarwayi bashobora kuryama bikabafasha mu buryo bwo kugira ngo bavurwe neza ariko hirindwa ubucucike bwinshi mu bitaro.

Ni barafu iri gushyirwa ku kuboko ahantu umuntu ababara akaba yayashyiraho ikaba yamufasha kugabanya ububabare ku mubiri cyangwa se ku kuboko.

Ni imashini z'uburyo bwa kiganga ushobora kuba wayijyamo ukaba wakora siporo, uri muri iyo mashini ikaba yagufasha kugorora umubiri cyangwa se ingingo mu buryo bwa siporo.

Umuganga uri gufasha umuntu akamukoreshaho n'imashini mu mugongo arambura umugongo, iyo mashini igafasha umuntu mu buryo bwo kugira ngo amere neza.

Kwivura mu buryo bwa siporo, unywa amazi menshi, ku kigero runaka, ndetse ukaba wanayanywa mu buryo bupanze ku munsi buhoraho, bitari ibintu birimo akavuyo.

Umuntu uri kugorora ingingo akora siporo agakora arambura amaguru ndetse n'amaboko ndetse n'umugongo.

Ubuvuzi bwa siporo bwo kuba wanywa amazi menshi ku munsi ukagira ikigero uyanywaho ndetse n'amasaha unywaho ayo mazi, bigire umurongo ugenderaho ku munsi.

Mini sport medecine muri geri ihagarika ububabare bushobora kuyisiga ahantu ukaba warekera kubabara.

Traditional medecine healthy mouth and healthy body ikorwa mu gikakarubamba cyangwa se mu byatsi bya kimeza bakabikoramo imiti itandukanye binyujijwe mu nganda.

Ni ibimera, icyatsi cyitwa kapusinine kivura, kikavura inkorora na giripe, ushobora kugingifata ugakuraho amababi, ukaba wahekenya kivura inkorora.

Ni umuti ukorwa na Alliance, ukozwe mu buryo bw’ibimera cyangwa se traditional medicine. Ushobora kuvura indwara mirongo itanu kw’ijana ikaba ari DHA, makumyabiri kw’ijana akaba ari EPA.